Ifumbire y'imborera yongerera ubutaka intungamubiri, ikarinda isuri kandi ikongera umusaruro. Kumena amazi mu ifumbire bigabanya ubushobozi bwayo, bikanangiza ibidukikije. Bigatuma ubuhinzi budatera imbere neza nkuko bikwiriye.

Kwita ku bimera, ni ingenzi cyane mu iterambere ry'ubuhinzi. Bikarushaho kuba byiza, iyo birushijeho kugenda bihabwa ifumbire kugira ngo bibone intungamubiri zikwiriye. Abahinzi bose rero, barasabwa kujya bita ku byo bahinze kugira ngo bibafashe kuzabona umusaruro ushyitse.

Ifumbire y'imborera ni ingenzi kuko ituma ubutaka burushaho kugira intungamubiri zikenewe, bityo imyaka ikaba myiza kandi igatanga umusaruro mwinshi, kuyitaho neza rero bituma ifumbire ikora neza ikarinda ubutaka kwangirika, kandi igafasha mu buhinzi burambye.

Kuhira imyaka ni igikorwa cy'ibanze umuhinzi wese asabwa kuzirikana kugira ngo umusaruro we uzabe mwiza, impamvu ari ngombwa, ni uko bifasha ibihingwa gukomeza gukura neza mu gihe cy'izuba, kongera umusaruro, kubirinda kuma no gupfa, bityo ubuhinzi bukaramba kandi bukunguka, uwuhira wese agenzura neza niba imyaka yose irimo kwakira amazi ahagije.

Kugira aho imiti y'amatungo icururizwa ntako bisa, kuko bituma iboneka hafi y'aborozi igihe cyose bayikeneye bityo bigafasha mu kurwanya indwara z'amatungo no kuzirinda gupfa. Bituma kandi hizerwa ko imiti iri gucuruzwa yujuje ubuziranenge, bigatuma ubworozi butera imbere. Binatanga akazi n'inyungu ku bacuruzi, bikongera ubukungu bw'igihugu.

Kugira imiti y'imyaka n'amatungo hafi y'abahinzi n'aborozi birinda indwara, byongera umusaruro bikagabanya igihombo kandi imiti ikaboneka ku gihe iyo ikenewe, ibi byongera iterambere ry'umuturage ndetse n'Igihugu muri rusange.

Gutera imbuto hakoreshejwe ifumbire y'imborera bituma ubutaka bubona intungamubiri zinyuranye bigafasha imbuto kumera neza no gukura vuba, byongera umusaruro, bikarinda ubutaka gusaza, kandi bigafasha kurengera ibidukikije. Ibi byose biteza imbere ubuhinzi n'imibereho y'abaturage.

Gutera igiti neza bisaba guhitamo imbuto nziza kandi ubutaka bugategurwa kare. Ibi bifasha igiti kuba cyakura neza, bigatanga umusaruro mwiza w'imbuto ndetse n'umwuka mwiza. Ibi byose bifasha umuhinzi gutera imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Kwita ku ngemwe z'ibiti n'ibimera, bituma bikura neza bigatanga umusaruro mwiza kandi ukungahaye, bigabanya ibyago byo kurwara, byongera imbaraga z'ibimera, kandi bikarinda no kwangirika cyangwa kwangizwa n'imvura nyinshi n'umuyaga, ibi byose bifasha iterambere mu buhinzi.

Ifumbire y'imborera ni ingenzi cyane kubera ko ituma ubutaka bwera neza kuko yongera intungamubiri z'umwimerere mu butaka. Ibi bituma imyaka ikura vuba kandi igatanga umusaruro mwinshi. Ifumbire y'imborera kandi irinda kwangirika k'ubutaka no kurinda isuri bityo ikarinda ibidukikije.

Ifumbire y'imborera ni ingenzi cyane mu kwita ku nsina kuko iyifasha gukura neza no gutanga umusaruro mwinshi, ikabungabunga ubutaka, igafata amazi neza kandi ikaboneka ku giciro gito ku muhinzi.

Ifumbire mvaruganda ni ingenzi cyane mu buhinzi kuko ifasha kongera umusaruro no gukura neza kw'imyaka. Ariko iyo ikoreshejwe nabi ishobora kwangiza ubutaka, ibidukikije, no kugira ingaruka ku buzima bw'abantu.

Gutera imyaka umuti bifasha kuyirinda indwara n'udukoko twangiza, binarinda gusaza kw'imyaka no kugabanyuka k'umusaruro ,bifasha kandi mu kubungabunga ubutaka n'ibidukikije ,ibi byose bizamura iterambere ry'ubuhinzi n'ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Kwita ku bimera ni igikorwa cy'ingenzi cyane buri muhinzi agomba kuzirikana ndetse kubitera umuti ni igikorwa kirushijeho kuba cyiza cyane kubera yuko bibifasha kwirinda uburwayi ndetse bikarwanya ibyonnyi, bityo umusaruro ukarushaho kuzamuka no gutera imbere.

Kwita ku bimera no kubyuhirira, bituma birushaho gukura neza bigatanga umusaruro mwiza, kandi uhagije. Birinda ibimera indwara n'ibyonnyi, bikongera igihe bimara mu butaka. Ibi kandi bifasha mu kubungabunga ibidukikije, no guteza imbere ubuhinzi muri rusange.

Kugira isuku ihagije ahacururizwa imiti y'imyaka n'amatungo, bituma habungabungwa ubuziranenge bw'imiti, hakirindwa indwara za hato na hato kandi hakizerwa ko abakiriya bazabona imiti ifite umutekano kandi ikora neza.

Guhingira ubutaka bibufasha kuba buteye neza bigafashaza kandi imbuto gukura neza no gutanga umusaruro mu gihe zitewemo, bituma kandi habaho kurwanya isuri, gukomeza ubutaka no kurinda umwanda, ibi byose bigira uruhare mu kongera umusaruro w'ubuhinzi muri rusange.

Guhinga umurima ntuwurangize, bigatuma ibyatsi biturana n'ibihingwa, bitera ingaruka nko kugabanuka k'umusaruro, kwiyongera kw'indwara n'ibyonnyi, guta igihe cyawe n'amafaranga ndetse isura mbi ikagaragara mu murima wawe. Ni ngombwa gukuraho ibyatsi no gusukura umurima wawe neza kuko bifasha mu iterambere ry'ubuhinzi.

Umuceri ni igihingwa cy'ingenzi mu biribwa, gitanga intungamubiri ku bantu benshi, gutera no guhinga umuceri bitanga umusaruro wihuse, bigafasha mu kurwanya inzara no guteza imbere ubukungu bw'abahinzi, umuceri kandi ukoreshwa mu bucuruzi bigafasha no kongera amafaranga yinjira mu gihugu no guteza imbere imibereho myiza y'umuturage.

Ibishyimbo, ni ingenzi ku buzima bw'abantu kuko bitanga indyo yuzuye, bikinjiza amafaranga, bikazamura ubukungu bw'umuryango. Icyakora, kubihinga mu biti by'ibigori byumye, bishobora gutuma umusaruro wabyo uba muke, imbuto ntizikure neza, umuhinzi agahomba.

Guhinga amashu bifasha mu kongera indyo yuzuye mu muryango bigatanga umusaruro ufatika kandi wihuse, byongera amafaranga iyo agurishijejwe, kugira ngo amashu atange umusaruro mwiza rero, agomba guhingwa ahantu hafite ubutaka bwiza, akuhirwa neza, akarindwa udukoko n'indwara zitandukanye, kandi agasarurwa mu gihe gikwiriye.

Guha abaturage ingemwe z'ibiti bituma bashobora gutera no kwita ku biti neza, bigafasha kongera umusaruro w'ibihingwa no kurengera ibidukikije. Bituma kandi habaho ishyirahamwe ry'abaturage mu kubungabunga ubutaka, bikongera ubukungu bw'igihugu n'umuryango muri rusange.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bikenerwa cyane bifasha mu iterambere ry'umuturage n'Igihugu kuko bitanga ifunguro rikungahaye ku ntungamubiri, bigakoreshwa mu kugaburira amatungo no guteza imbere ubucuruzi, bityo Igihugu kigatera imbere.

Guhinga inanasi ni ingenzi cyane mu iterambere ry'umuturage, dore yuko inanasi ari urubuto ruryoha cyane kandi rukundwa n'abantu, rukaba rugira intungamubiri nyinshi ikenerwa n'umubiri, bityo rero uzihinga wese akazitaho abona inyungu nziza kandi ihagije bityo akiteza imbere.

Kwita ku bimera no gukurikirana ubuzima bwabyo ni ingenzi cyane kuko iyo bikozwe neza, bitanga umusaruro ukwiriye kandi ushyitse ku bahinzi, bityo rero birakwiriye yuko byitabwaho, bikufirwa ndetse bikuhirwa mu gihe amazi ari makeya cyangwa se ari mu gihe cy'impeshyi, ibi byose bifasha mu iterambere ry'ubuhinzi n'igihugu muri rusange.

Imineke ni ingenzi cyane kuko itanga indyo yuzuye ikungahaye ku ntungamubiri, ifasha mu buzima bwiza bw'abaturage, ni igihingwa cyinjiriza amafaranga abaturage bityo kigafasha bose kwiteza imbere, gitanga akazi ku bahinzi n'abacuruzi, kikongera umusaruro w'igihugu muri rusange.

Ibihingwa ibyo ari byo byose byitaweho bikura neza kandi bigashisha. Ibi ngibi bishoboka gusa kandi iyo byatewe neza bikitabwaho n'umuhinzi ndetse kandi bikuhirwa mu gihe amazi ari make cyangwa se ari mu gihe cy'impeshyi. Ikindi kandi iyo bihawe ifumbire nyinshi ihagije bibifasha gukura neza bibona intungamubiri zihagije, bityo bikazavamo umusaruro mwiza kandi ushyitse.

Gutegura ubutaka neza, bituma imbuto zimera vuba kandi neza. Bikongera umusaruro. Bifasha gukuraho ibyatsi bibi, kongera ifumbire mu butaka, no kurinda isuri. Ibi bituma imyaka ikura neza, bigafasha umuturage kugera kumusaruro mwiza, no guteza imbere ubuhinzi.

Guhinga ibihingwa mu mabuye manini ,si igitekerezo kiza habe na gato, kubera yuko abibuza gukura neza, kandi akabangamira imizi yabyo, bibangamira ubuhinzi muri rusange, bigatuma umusaruro uba muke, kandi umuhinzi akabihomberamo.

Gutera ibimera ukoresheje ifumbire bituma bikura neza, bigatanga umusaruro mwinshi. Kubyitaho kandi harimo kubivomerera, kubihingira no kubirinda indwara, bituma ibyo bimera birushaho gusa neza cyane kandi nyuma bikazatanga umusaruro uhagije kandi ukwiriye.

Gutera urutoki bitanga imbuto zifite intungamubiri, bikunganira ifunguro ry'abaturage. Rutanga umusaruro uhoraho kandi rwungura ubukungu bw'abahinzi, kurubungabunga neza ni ingenzi kuko bituma rwera neza rugatanga umusaruro bityo bikazamura imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Avoka zigira intungamubiri nyinshi cyane zikenerwa n'umubiri wacu, kandi zikoreshwa zikanakundwa n'abaturage benshi; zifasha mu kurinda indwara z'uruhu, umutima n'ibindi. Gutera no kwita ku biti bya voka rero, bitanga umusaruro ushobora kugurishwa, bikongera inyungu ku bahinzi no guteza imbere ubukungu bw'umuryango n'igihugu muri rusange.

Imiyoboro y'amazi mu mirima ni ingenzi cyane mu buhinzi kuko ifasha kuhira imyaka neza, kongera umusaruro, kurinda isuri ndetse ibimera bikabona ingano y'amazi ahagije bikeneye bityo bigateza imbere ubuhinzi burambye.

Guca utuyira hagati mu mirima bituma ubuhinzi bubasha kugenzurwa neza, byorohereza kuhira, gusarura no gutunganya imyaka, bituma kandi ubutaka budatakaza imizi y'imyaka, bityo bigafasha kongera umusaruro no kurinda isuri ,icyakora kutufira ibyatsi muri two, bibuza amazi kugenda neza mu butaka bigatera isuri n'ibyonnyi kwiyongera ku mirima, ibi bigabanya umusaruro w'ubuhinzi kandi bigateza ibibazo ku butaka.

Imyumbati itanga ibiribwa by'ibanze bikungahaye ku mashereka, kuyitaho neza rero bituma igira umusaruro mwinshi, igafasha abaturage mu kubona ibyo kurya no kugurisha, ibyo bituma bongera amafaranga bakiteza imbere kandi bigafasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi butanga ibiribwa bihagije, bigafasha mu kurwanya inzara n'ubukene, ku muturage butuma habaho akazi n'amafaranga yinjira, bityo bigatuma imibereho ye irushaho kuba myiza, ku rwego rw'igihugu ubuhinzi butera imbere bwongera umusaruro w'ibyoherezwa hanze, bikazamura ubukungu n'iterambere rusange.

Igiti gitewe neza kandi kikitabwaho, gitanga umusaruro ukwiriye, bikarushaho cyane iyo cyuhiwe ndetse kigahabwa ifumbire nziza kandi ihagije, kubera yuko kibasha kubona intungamubiri zikenewe cyane kuri cyo kugira ngo gikure neza, bityo ibi biteza imbere ubuhinzi ndetse agateza imbere n'igihugu cye.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa byera neza kandi bifitiye abaturage akamaro, birwanya ubukene, nuko rero umuhinzi uwo ari we wese asabwa kubyitaho uhereye bikiri bitoya, akabyuhira, akabiha ifumbire ihagije, iyo ibyo ngibyo bigenze neza umusaruro uba mwinshi kandi mwiza cyane, bigatuma uwahinze abona amafaranga ndetse n'igihugu kikabyungukiramo muri rusange.

Guha inka amazi meza ni ingenzi cyane mu gutanga umusaruro. Kuko bituma zikura neza zigatanga amata menshi. Kandi zikarindwa indwara. Zikororoka neza kandi zigatanga iterambere rishyitse ku mworozi n'Igihugu muri rusange.

Inka ni ingenzi cyane mu iterambere ry'umuturage ndetse n'igihugu muri rusange, icyakora si byiza kuzororera hanze y'ikiraro kubera yuko bituma umusaruro wazo uba muke cyane cyangwa se zigahura n'uburwayi bukomeye cyane butuma zisubira inyuma, ikindi kandi ziba zishobora gukomereka bityo bikaba byahombya umworozi.

Inkoko ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu, kubera ko ari isoko y'intungamubiri zikenerwa n'umubiri kandi zitanga ifumbire y'imborera, zigateza imbere ubukungu bw'umworozi zishobora no kubyazwamo amafaranga mu bucuruzi mu gihe umworozi azigurishije.

Gutunganya umuhanda bituma abantu n'ibintu bigeraho bigomba kugera byihuse kandi mu buryo bworoshye, bifasha mu koroshya ubucuruzi, gutwara imizigo no guteza imbere ubukungu, umuhanda mwiza unafasha mu kugabanya impanuka no kongera umutekano w'abakoresha uwo muhanda.

Umuhinzi wese asabwa kwita ku myaka yahinze kugira ngo izamuhe umusaruro mwiza, by'umwihariko akazirikana kuyitera umuti kuko ufasha kurinda ibimera byawe indwara n'ibyonnyi bikongera umusaruro , gufasha imyaka gukura neza no kugabanya igihombo. Ibi bituma ubuhinzi bugenda neza kandi bukunguka.

Ubuhinzi ni ingenzi cyane, kubera yuko bufasha igihugu gutera imbere ndetse bugafasha mu kuzamura ubuzima bw'umuturage muri rusange, ibi ni ukubera yuko buvamo ibyo kurya bihagije bityo ubukene bugashira mu muryango, niyo mpamvu kwigisha neza ibijyanye n'ubuhinzi ari igikorwa cy'ingenzi, cyane cyane uhereye mu gutera imbuto z'ibimera kugera ibimera bisaruwe.

Guca imyobo ni ingenzi mu buhinzi kuko bituma imbuto ziterwa ahatunganye, kandi ku murongo. Bifasha kandi, gukura neza kw'ibimera. Bituma ifumbire ishyirwa ahantu hagenewe igihingwa, bigatuma gikura vuba kandi kikazana umusaruro mwinshi n'umugisha.

Gukatira icyondo hafi y'ibimera nk'imyumbati bishobora kwangiza imizi y'ibimera, bigatuma bidakura neza cyangwa bigapfa. Ibi bigabanya umusaruro, bikanangiza ubutaka. Byose ni ukubyirinda kuko bigira ingaruka mbi ku buhinzi no ku bukungu bw'abahinzi.

Gutera imbuto neza ni ingenzi gusa bisaba gutegura ubutaka, guhitamo imbuto nziza, gukurikiza intera ikwiye, gushyiramo ifumbire no kuzirinda ibyonnyi n'indwara, ibi byose bituma imbuto zikura neza bigatanga umusaruro ukwiye.

Urubingo ni kimwe mu bihingwa by'ingenzi cyane kandi bifitiye umumaro abaturage kubera y'uko ari n'ibyo kurya by'inka, iyo inka zirubonye zibasha kubaho neza zigatanga umusaruro urimo uw'amata kandi zigakura neza.

Kwigisha abantu uburyo bwiza bwo guhinga ni intambwe ya mbere y'iterambere, ibi ngibi bibafasha kubona ubumenyi buhagije mu buryo bwo guhinga mu buryo bwa kijyambere, hanyuma bakongera umusaruro wabo. Ibi ngibi bituma iterambere ry'igihugu rirushaho kuzamuka ndetse rikaramba.

Avoka ifite intungamubiri nyinshi kandi ifasha mu bukungu kugira ngo itagwingira, ni byiza kuyuhira neza, kuyirinda indwara, kuyishyiraho ifumbire, gusukura umurima no kuyirinda ibihe bibi. Ibi bituma igiti cya avoka gikura neza kandi kigatanga umusaruro mwiza.

Kugira ngo ibiti n'ibimera muri rusange bitange umusaruro, bisaba yuko umuhinzi aba yarabyitayeho kandi afite ubumenyi mu kubyitaho. ni muri urwo rwego rero, ari byiza kwigisha abantu uburyo ki ibiti n'ibimera biterwa, bigashyirwa mu butaka, kugeza ubwo bizavamo umusaruro mwiza.

Ubuhinzi ni isoko y'iterambere ku gihugu cyacu ndetse n'abaturage muri rusange. Iyo bukozwe neza butanga umusaruro, abahinzi bakabona inyungu ndetse kandi bagasagurira amasoko, bakajya kugurisha bakabona amafaranga n'abandi badakora uwo mwuga bakunguka.

Gusibura umuferege ni ingenzi cyane kubera yuko birinda umuhanda kwangirika, bitewe n'amazi atemba nabi cyangwa imiyoboro y'umwanda, bifasha kandi mu kurinda isuri ndetse bigatuma umuhanda uba mwiza kandi uramba, ibi bituma ubwikorezi bworoha bigafasha iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage.

Ubuhinzi bufitiye akamaro kanini abantu benshi, bwongera umutekano w'ibiribwa, butanga imirimo ku bantu benshi, bukinjiriza abaturage n'igihugu amafaranga, bufasha guteza imbere inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi, bukazamura ubukungu.

Amateke ni ibihingwa byera ahantu hari amazi menshi agaterwa hakoreshejwe igice cyo hasi cyayo, agasarurwa nyuma y'amezi hagati y'atandatu na cumi n'abiri bitewe n'ubwoko bwayo, afite umumaro wo gutanga ingufu ku bayariye kandi agira uruhare no mu bukungu bw'umuryango.

Ubutaka ni ingenzi mu buzima bw'abantu n'igihugu kuko kuri bwo ari ho imyaka iterwa. Butuma abantu bubaka kandi bubika amazi. Butanga ibikoresho byo kubaka nk'ibumba n'amabuye ndetse bubungabunga ibidukikije. Bityo ubutaka bufatiye runini iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Rero bukwiriye kwitabwaho, bukarindwa isuri hacukurwa amaterasi y'indinganire.

Gusukura umuhanda bituma ubuhinzi bukorwa neza kuko byorohereza gutwara ibikoresho n'umusaruro, binatuma kandi habaho kugabanuka kw'ibyonnyi bishobora kwihisha muri ibyo byatsi biri mu muhanda, bikazangiza ibimera, bigatanga umusaruro mukeya.

Ibihingwa bifitiye akamaro kanini iterambere ry'igihugu ndetse n'umuturage muri rusange. Ni yo mpamvu kubikurikirana no kubyitaho, bituma bikura neza bigatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, bigateza imbere ubuhinzi, kandi iterambere ry'igihugu rikazamuka. Ni muri urwo rwego rero umuhinzi akwiriye kuzirikana ibi ngibi.

Amaterasi y'indinganire agira uruhare mu kwirinda isuri y'ubutaka, kongera ubutaka bwera no korohereza ubuhinzi ku misozi, kuyasibura igihe yasibamye bituma ubutaka bubona umwuka n'amazi neza bikanakuraho umwanda, bigafasha imizi y'ibihingwa gukura neza kandi umusaruro ukazamuka.

Ibitoki ni ingenzi mu mirire y'abaturage kuko bitanga intungamubiri zifasha umubiri gukura neza no kugira imbaraga, bitanga kandi amafaranga iyo byagurishijwe bigafasha mu kurwanya ubukene, kubihuriza hamwe mu isoko cyangwa mu matsinda y'abahinzi bituma byoroha kubigurisha ku giciro cyiza.

Imbuto za avoka zitanga intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri mu kwirinda indwara no kwiyubaka. Kubungabunga avoka zarangije gusarurwa na byo ni ingenzi kuko bizirinda kwangirika bityo ntibiteze igihombo ku bahinzi kandi zikongera inyungu zabo. Ibi bifasha mu guteza imbere ubuhinzi n'ubukungu bw'umuryango n'igihugu muri rusange.

Kwita ku bigori neza bitangirira mu guhitamo imbuto nziza, gutegura ubutaka, kubitera ndetse no kubibagarira, ukabiha ifumbire ihagije kugira ngo bibashe gukura neza ndetse muri icyo gihe ukanabirinda uburwayi n'udukoko dushobora kubyangiza. Ibi bituma umusaruro uba mwiza kandi bigateza imbere umuhinzi ndetse n'igihugu muri rusange.

Imbuto ni ingenzi mu buzima bw'abazirya ndetse n'abazigurisha tutibagiwe ko zigira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Isoko ryazo ni ingenzi kuko rituma abahinzi bagurisha umusaruro byoroshye. Iteza imbere ubuhinzi, ikazamura ubukungu, inongera imibereho myiza y'abantu kandi rigahuza abahinzi n'abaguzi.

Inyanya ni ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ari indyo ifite intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri wacu, kuzihuriza hamwe rero ku isoko, bituma abaguzi bazibona mu buryo bworoshye, ndetse n'abacuruzi bakabona amafaranga mu buryo buboroheye, bityo iterambere rikazamuka.

Ubuhinzi bw'ibijumba, ni ingenzi cyane mu iterambere ry'umuturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi ni ukubera yuko bizanira ubuhinzi amafaranga mu gihe bigurishijwe ndetse kandi bikaba n'ibyo kurya bikenerwa cyane, bifite intungamubiri, bikenerwa n'umubiri mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero ibi ngibi bifasha mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Ibijumba ni bimwe mu bihingwa byiza by'ingenzi bifitiye abaturage akamaro, si ibyo ngibyo gusa ni n'isoko y'intungamubiri zikenerwa n'umubiri kugira ngo ugire imbaraga, bitanga amafaranga ku baturage, abaturage bakazamura ubukungu bwabo bityo igihugu kigatera imbere.

Umuceri nka kimwe mu bihingwa bibeshejeho imbaga y'abantu benshi, usarurwa mu buryo bukwiriye. Iyo umaze gukura ibimera byahindutse umuhondo, uvanwa mu murima hakoreshejwe intoki cyangwa imashini, ukumishwa, ugakurwaho ibyatsi, ugatonorwa, hanyuma ukabikwa neza ahantu humutse kandi hafunze.

Inyanya zifite akamaro kanini mu iterambere ry'umuturage n'igihugu, kuko zitanga intungamubiri z'ingenzi zigafasha abahinzi kunguka binyuze mu bucuruzi, bigatanga imirimo kandi zikazamura ubukungu bw'igihugu, kugira ngo inyanya zitangirika ziba zigomba kwitabwaho cyane zikarindwa udukoko ndetse izangiritse zigatandukanywa n'izitarangirika.

Ni byiza kwanika ibigori neza kandi bitandukanijwe kugira ngo bibashe kuma neza kandi ntakibibangamiye, ibi ni ukubera yuko iyo ibyo bikozwe neza bituma ibigori bisa neza ndetse bikazaha inyungu umuhinzi, cyane cyane bikazamuha amafaranga ahagije amufasha kwiteza imbere.

Umusaruro uva ku bigori byitaweho neza ni mwinshi, kandi iyo ubonetse ubeshaho abaturage bakagira ubuzima bwiza, dore yuko atari ibyo gusa, ahubwo bivamo intungamubiri nziza ifasha umubiri kubaho neza ndetse ikagira imbaraga, ibigori kandi bigira uruhare cyane mu kuzana amafaranga iyo bigurishijwe, bityo bikarwanya ubukene mu baturage.

Ibijumba bitanga intungamubiri n'imbaraga, bigafasha mu kurwanya inzara mu muryango, no guteza imbere ubukungu, kubirinda izuba no kubibika neza nyuma yo gusarurwa, ni ingenzi cyane kuko bituma bitangirika, bikagabanya ibihombo abahinzi bashobora guhura nabyo.

Ibiti ni bimwe mu bidukikije bifite umumaro wo kurwanya isuri, gutanga umwuka mwiza, gutanga ibicanwa, kubaka, gutanga imbuto n'imiti, no kubungabunga ibidukikije. Bifasha kandi mu kongera imvura, gutuma ubutaka bwera, no guteza imbere ubukerarugendo. Bityo bifite uruhare runini mu iterambere rirambye ry'igihugu cyacu. Ahatemwa igiti hagomba guterwa ikindi.

Kwita ku mashyamba bifite akamaro kuko bituma habaho kurengera ibidukikije, bigafasha kugabanya isuri no kurinda ubutaka, amashyamba atanga umwuka mwiza akanarinda inyamaswa n'amazi, byongera ubukungu binyuze mu gutanga ibiti, imbuto n'ibindi bikomoka ku mashyamba.

Kwita ku murima no kuwuhingira ni ingenzi cyane kubera ko bituma umusaruro wiyongera kandi ukaba ufite ubuziranenge, bifasha mu kurinda ubutaka kwangirika, bigatuma ubutaka buramba kandi bugakomeza gutanga umusaruro mwiza mu gihe kirekire, ibi bituma abahinzi babona ibyo bakeneye neza mu gihe gikwiriye.

Ibiti bifatiye runini iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'ubuzima bwacu muri rusange dore y'uko ari n'isoko y'umwuka duhumeka bivuze ko bibaye bidahari ubuzima bwacu bwaba buri mu kaga ndetse bukaba butameze neza rero bikwiriye kwitabwaho ndetse no kubungabungwa kugira ngo tugumye kugira ubuzima bwiza iterambere ry'igihugu cyacu rirusheho kuzamuka.

Mu buhinzi iyo igiti kiguye ntago umuhinzi akirekera mu murima, kubera yuko kiba gishobora kwangiza ibimera ndetse kikabuza ibindi kumera, bityo rero iyo umuhinzi akeneye umusaruro muzima bisaba yuko akura ibiti byaguye mu murima we, kugira ngo umusaruro urusheho kuzamuka mu buryo bwiza na we yiteze imbere.

Kwita ku biti bikiri bito, ni ingenzi cyane kubera y'uko bituma bikura neza bigafasha kurengera ibidukikije no guteza imbere ubukungu n'iterambere ry'igihugu bityo umuturage akabona akazi, akabasha kwibeshaho.

Gutera ikimera mu butaka budahingiye, burimo ibyatsi byinshi, bituma kimera nabi, kigakurwaho n'ibyatsi biba bihangana na cyo mu gufata intungamubiri n'amazi. Ibi bituma umusaruro uba muke cyangwa kigapfa kitarakura.

Ipapayi ni igihingwa cyoroshye guhinga kidahenda kandi gifitiye abaturage inyungu mu mirire, ubuzima ndetse no mu bukungu. Guhinga ipapayi neza bishobora kuzamura imibereho myiza y'umuturage bikagabanya n'imirire mibi mu muryango.

Ibiti ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ry'igihugu, dore ko ari n'isoko y'umwuka duhumeka kandi bikaba n'isoko ya ba mukerarugendo bazana amafaranga mu gihugu tugatera imbere, kubyitaho neza rero ni iby'ingenzi kandi bireba umuturage uwo ari we wese.

Ibiti ni ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'iterambere ry'igihugu cyacu, dore ko ari n'isoko y'umwuka duhumeka wa buri munsi, bivuze yuko bibaye bidahari ntabwo ubuzima bwacu bwaba bumeze neza, rero umuhinzi wese akwiriye kubyitaho cyane akabikurikirana, akabibagarira ndetse akabitandukanya n'ibindi kugira bibashe gukura neza byisanzuye bitange umusaruro.

Ibiti n'amashyamba ni ingenzi cyane kuko bitanga inkwi bigafasha kurinda isuri no kurengera ubutaka. Kandi bitanga umwuka mwiza. Kubyitaho neza rero bituma bikura neza bigatanga umusaruro mwiza kandi bikaramba. Bityo bigafasha mu kurengera ibidukikije no guteza imbere ubukungu bw'igihugu.

Urutoki rutanga imbuto zifite intungamubiri, rugafasha mu bukungu no kurinda isuri, ruterwa mu butaka bufite isuku kandi butunganyijwe neza, haterwa ibiti cyangwa imbuto nziza kandi ziboneye, iyo bikozwe neza bituma umuhinzi agira iterambere rirambye, kandi igihugu kikabyungukiramo.

Gutera amashyamba no kuyitaho bifasha mu kurengera ibidukikije, birinda isuri n'imyuzure. Amashyamba kandi atanga umwuka mwiza, ibiti by'ingirakamaro ku bukungu nk'imbaho n'ibindi bikomoka ku biti, ibi byose bituma habaho iterambere rirambye, umutekano w'ibiribwa n'imibereho myiza y'abaturage.

Kwita ku biti bikiri bito ni ingenzi cyane kandi bisaba kubikurikirana ukabirinda indwara n'ibyonnyi ndetse kandi ukabyuhira. Ibi bituma bikura neza kandi bigakomera. Ibyiza byo kubyitaho ni uko bituma amashyamba aramba, bigatanga umwuka mwiza, bikarinda isuri.

Kugira ngo imyaka ise neza bisaba ko umuhinzi cyangwa nyirayo aba yarayitayeho akayikurikirana, akayuhira mu gihe imvura idahari kandi akayiha ifumbire ikwiriye, bityo umuhinzi uwo ari we wese akwiriye kwita ku myaka ye no gukurikirana ubuzima bwayo kugeza itanze umusaruro.

Intoryi ni ibyo kurya byiza bikenerwa n'abantu kandi zikaboneka ku giciro cyiza. Kuzihinga ntibihenda, bisaba kuzitaho, ukazuhira, ukazibagarira, ukaziha n'ifumbire ihagije. Iyo zimaze gusarurwa zitabwaho kugira ngo zitangirika, zikarindwa izuba mu buryo bwo kwirinda ko zatukura zigateza igihombo abahinzi.

Ubusitani butuma ahantu haboneka ubwiza hakagaragara umwuka mwiza n'isuku, bufasha kurinda ubutaka isuri bukongerera agaciro ahantu, kandi bugatanga ibyo kurya nk'imboga n'imbuto, kwita ku busitani rero bituma ibimera bikura neza, bigafasha gusigasira ibidukikije no kurinda indwara zigiye zitandukanye.

Voka zitanga imbuto zifite intungamubiri nyinshi, zifasha mu kurwanya imirire mibi no kongera ubuzima bwiza bw'abaturage. Kwita ku biti bya avoka bituma bihora bitanga umusaruro mwiza kandi mwinshi, bikanarinda ubutaka kwangirika.

Avoka ifite intungamubiri nyinshi, zifasha umubiri kurwanya indwara, kongera imbaraga, no kugira uruhu rwiza ikaba kandi isoko y'ubukungu ,igateza imbere imibereho myiza y'abantu, n'igihugu muri rusange.

Kwita ku ngemwe z'ibiti bituma zikura neza zigatanga umusaruro w'igihe kirekire, bifasha kurengera ibidukikije, kurwanya isuri no kongera umwuka mwiza, ibi byongera ubwiza bw'ahantu bigafasha mu buhinzi n'ubukungu bityo bikagira uruhare runini mu iterambere ry'umuryango n'igihugu.

Imbuto zitanga intungamubiri nyinshi zifasha umubiri gukura neza no kurwanya indwara, zongera imbaraga, zikanarinda imirire mibi, imbuto kandi mu iterambere zituma habaho ubucuruzi, akazi n'amafaranga ku baturage, bityo bigateza imbere ubukungu bw'umuryango n'igihugu.

Intoryi, ni igihingwa cyiza gifitiye abantu bose akamaro, kandi kugihinga bikaba byoroshye. Si ibyo gusa kubera yuko ari isoko y'intungamubiri nyinshi umubiri wacu ukenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi kandi iyo zigurishijwe zitanga amafaranga ku bahinzi, bityo bakiteza imbere.

Imiteja, ni kimwe mu bikundwa n'abantu benshi kubera ukuntu biryoha. Ikindi kandi igira intungamubiri nyinshi cyane, zifitiye akamaro umubiri wacu. Si ibyo ngibyo gusa, kubera yuko ari isoko y'amafaranga ku bahinzi mu gihe bayigurishije. Bityo bikazamura ubukungu bw'umuryango n'Igihugu muri rusange.

Gutera imyaka cyangwa ibiti byegeranye, si byiza habe na gato. Kubera yuko bigabanya umusaruro bigatuma kandi indwara zikwira, imyaka igakura nabi, ubutaka bukangirika. Bityo umuhinzi uwo ari we wese asabwa gutera ibiti abitandukanyije kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro ukwiriye.

Ibimera bitanga umusaruro iyo byitaweho neza. Uhereye mu buto bwabyo biba bigomba gukurikiranwa n'umuhinzi akabyuhira kugira bibone amazi mu gihe imvura ntayihari cyangwa ari nkeya, ikindi akabiha ifumbire ihagije, kugira ngo bibashe kubona intungamubiri bikeneye. Ibyo ngibyo byose bituma bitanga imbuto nziza mu gihe cyo kwera kwabyo, bigateza imbere umuhinzi.

Ibikomoka ku buhinzi birimo karoti ndetse n'imiteja n'ibindi, bifasha mu iterambere ry'umuryango n'igihugu muri rusange. Iyo bikusanyijwe bigahurizwa ahantu hamwe, bifasha abatabifite kubibona ndetse n'ababigurisha bakabibona ku giciro cyiza badahenzwe.

Gutwara nabi ibiti byo gutera, bituma byangirika kandi bigatakaza umusaruro. Mu gihe kubitwara neza, ibyo ngibyo byose bidashobora kuba, ahubwo byongera amahirwe yo gukura neza, no gutanga umusaruro ukwiriye, umuhinzi agatera imbere.

Kwita ku bimera no kubisura buri munsi bifasha kumenya neza uko bihagaze, gutahura ibibazo hakiri kare nk'indwara, udukoko cyangwa kubura amazi. Gufata ingamba zinoze no kubirinda ndetse no kubyitaho, bityo bikongera umusaruro n'ubwiza bw'ibihingwa, iterambere rikazamuka.

Ibijumba n'ibihaza ni bimwe mu bihingwa byiza cyane bifitiye umuturage akamaro dore ko ari n'ingenzi mu gutuma umubiri ugira imbaraga mu gihe wabiriye kandi ni isoko y'amafaranga ku bahinzi babihinga, bityo ni inkingi ya mwamba mu kuzamura iterambere ry'igihugu cyacu ndetse no mu kurinda ubukene mu baturage.

Imyembe ni ingenzi cyane ku buzima bw'abaturage kandi ikunzwe na benshi, kuko ifasha mu kuzana intungamubiri nziza zikenerwa n'umubiri bifasha mu mirire myiza, iyo yitayeho neza rero itanga umusaruro mwiza kandi ibiti byayo bikarwanya isuri, bityo bigateza imbere ubuhinzi.

Imboga zitandukanye harimo na karoti, bifite akamaro kanini mu iterambere kuko bitanga intungamubiri z'ingenzi ku buzima bw'abantu, bigafasha mu kurwanya indwara no kongera imbaraga. Kubihinga neza bitanga umusaruro uhagije, bikongera ubutunzi bw'umuryango, bikanateza imbere ubuhinzi n'ubucuruzi, nuko igihugu kikarushaho kuzamuka.

Kwita ku ndabo ku nkengero z'umuhanda ni ingenzi cyane kubera yuko bituma ugaragara neza kandi usukuye, indabo kandi zirinda isuri zikanateza imbere ubwiza bw'aho hantu, ibi bituma abantu bishimira kuhanyura bigafasha mu iterambere ry'akarere, umuturage n'igihugu muri rusange.

Ibinyomoro bitanga intungamubiri zifasha mu buzima bwiza no kurwanya indwara, bifasha mu kurwanya imirire mibi no guteza imbere ubuhinzi kuko byoroshye guhinga kandi bitanga umusaruro mwiza, kubihinga no kubigurisha bituma abaturage babona amafaranga bityo bigateza igihugu imbere.

Ubworozi bwa karoti ni bumwe mu buhinzi bw'ingenzi bufasha mu iterambere ry'umuturage. Si ibyo ngibyo gusa dore ko ari n'ibyokurya byiza bifite intungamubiri bikenerwa mu mubiri muri rusange. Ndetse si ibyo gusa kubera yuko bifasha n'umuhinzi kuba yabonamo amafaranga mu gihe azisaruye akazijyana kuzigurisha. Rero ubu buhinzi bukwiriye kwitabwaho.

Inyanya ni isoko y'intungamubiri nyinshi. Zigira uruhare mu kurinda indwara, zigafasha abahinzi kubona amafaranga binyuze mu musaruro wazo. Zitanga akazi ku baturage, zongerera Igihugu amaramuko binyuze mu kuzohereza mu mahanga. Kandi zigira uruhare mu kurwanya inzara, no gutuma Igihugu kigira umutekano mu biribwa.

Akarima k'igikoni ni ingenzi cyane mu buzima bw'abantu kubera y'uko gatuma umuryango ubona imboga n'imbuto bihagije kandi byiza, ibi bigafasha mukurya indyo yuzuye, gatanga umusaruro kandi wihuse kagafasha mukugabanya ubukene, kanongera isuku n'umwuka mwiza murugo, bityo iterambere ry'urugo rikarushaho kugenda neza.

Avoka itanga imbuto zifite intungamubiri nyinshi zifasha mu kurwanya indwara no guteza imbere ubuzima bwiza rusange bw'abaturage, kwita ku biti byazo rero ni ingenzi cyane kuko bizifasha gukura neza ndetse no gutanga umusaruro, zikazana imbuto nziza kandi zishyitse.

Gucururiza ibyo kurya hasi ahantu hatabugenewe bitera kwandura kw'ibiryo kubera umwanda udukoko duto ndetse n'ibyorezo, ibi bishobora gutera indwara zifata mu nda no mu gifu ku bantu babirya, byangiza isura y'aho hantu, bigatuma abantu batizera ibyo bicuruzwa.

Ubuhinzi butuma abaturage babona ibiribwa bihagije bikarwanya inzara n'ubukene, bitanga n'amahirwe yo kubona amafaranga binyuze mu kugurisha umusaruro, bigafasha mu kuzamura imibereho myiza y'umuryango, ikindi kandi butuma habaho umutekano w'ibiribwa bigateza imbere iterambere rirambye ry'umuturage n'igihugu.

Akarima k'igikoni gafasha mu kubona imboga n'imbuto by'ibanze ku rugo. Bigatuma habaho indyo yuzuye kandi ihendutse. Kwita ku mboga zikarimo ni iby'ibanze cyane kuko bizifasha gukura neza hanyuma zikazatanga umusaruro mwinshi kandi uhagije.

Kubagarira ibimera ni ingenzi cyane mu buhinzi kuko bituma ibihingwa birindwa indwara n'imihindagurikire y'ikirere ntibyangize, bigakura neza kandi bigatanga umusaruro mwiza, hanyuma igihugu kigatera imbere.

Imyumbati ni ibyo kurya byiza bihingwa haterwa uduti mu butaka burumbuka. Ikitabwaho, igasarurwa nyuma y'amezi hagati y'atandatu na cumi n'abiri. Ifite umumaro wo gutanga ingufu, kurwanya imirire mibi no kunganira ubukungu bw'umuryango.

Ibiti bya voka bitanga imbuto zifite intungamubiri, bizana amafaranga kandi bikarwanya isuri, kwita kuri byo rero ni ingenzi cyane kandi bisaba kubihingira ahantu heza, kubyuhira, kubifumbira no kubirinda indwara n'ibyonnyi.

Ubusitani butanga umwuka mwiza n'imbuto nziza, butera ubwiza kandi burwanya isuri; kutabwitaho bituma bugira ibyatsi bibi bugatakaza umusaruro kandi hakaba umwuka mubi bigateza ibibazo ku bidukikije no ku buzima muri rusange.

Isoko ry'ibiribwa ryiganjemo umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'imbuto zirimo imyembe, ibinyomoro, amaronji, ndetse n'ibindi, aho abacuruzi bajya gushaka ibyo bicuruzwa hirya no hino ku baturage, hanyuma bakabijyana ahabugenewe bikagurwa n'abandi babikeneye.

Imbuto ni ingenzi cyane ku buzima bw'abaturage kandi zikundwa na benshi kubera yuko zigira intungamubiri nyinshi cyane zifasha mu buzima bwiza bw'abantu, bityo kuzihuriza hamwe ku isoko bituma abaturage babona izo mbuto nziza cyane kandi ku giciro kiza badahenzwe.

Inyanya, ibitunguru, na karoti, ni ibihingwa bifitiye akamaro kanini abaturage, kandi bikaba bifite uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri kuko bitanga intungamubiri ziwubaka, ndetse n'iziwurinda indwara, ibi byo kurya bikenerwa n'abantu benshi, kandi biba bigomba gukoreshwa mu gihe kitarambiranye, kugira ngo twirinde ko byazabora.

Mu buhinzi gusasira inyanya ni ingenzi cyane kuko bifasha mu kubika ubushyuhe mu butaka, kurinda isuri, gukumira ibyatsi bibi no kurinda imbuto gusimbuka ku butaka. Bituma inyanya zikura neza, umusaruro ukiyongera kandi wuje ubuziranenge.

Akarima k'igikoni gatuma umuntu abona imboga n'imbuto ku buryo buhoraho, bigafasha mu kurya indyo yuzuye kandi iboneye. Bituma habaho kuzigama amafaranga y'ibiribwa, kandi bigafasha mu gutanga isuku n'umutekano mu mirire y'umuryango. Ibi ngibi bikazamura ubuzima bwiza bw'abaturage.

Ibitunguru ni ingenzi cyane ku buzima bw'abaturage kuko bikungahaye, ku ntungamubiri zifasha ubuzima, kandi bigafasha mu guteza imbere ubucuruzi. Byongera amahirwe y'akazi, bigatuma abaturage babona amafaranga yo kwiteza imbere. Ibi byose, bifasha kuzamura ubukungu, n'imibereho myiza y'igihugu, n'abaturage muri rusange.

Tangawizi ni kimwe mu bimera, bikenerwa n'abantu benshi bari hirya no hino ku isi, kikaba kizwiho mu kongera imbaraga umubiri ndetse no mu kuvura indwara, nk'ibicurane kubabara mu muhogo, yongera ubushyuhe mu mubiri ndetse ikawuha ubudahangarwa. Ihingwa n'abantu batandukanye, ndetse igacuruzwa ku giciro cyiza.

Kororera amatungo mu biraro byazo harimo ihene ndetse n'inkoko, ni byiza cyane kandi byongera umusaruro. Ariko iyo bidakozwe ntabwo bigenda neza kubera yuko biteza umwanda, amatungo akaba yaharwarira, umusaruro wayo ukavamo ari mukeya.

Akarima k'igikoni ni ingenzi cyane mu iterambere n'ubuzima bw'umuryango, kubera yuko kawufasha kubona imbuto nziza ndetse n'imboga nziza, bigafasha mu mirire bakabona indyo yuzuye; ndetse bibafasha gutera imbere ku buzima ndetse n'ubukungu muri rusange.

Ibinyomoro, ni kimwe mu bihingwa by'ingenzi bifitiye akamaro abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ku bahinzi, bibazanira amafaranga kubera yuko bitanga umusaruro ushyitse ndetse kandi ku babirya, bibagirira umumaro kubera yuko ari isoko y'intungamubiri nyinshi kandi zikenerwa n'umubiri.

Tungurusumu ni bimwe mu bihingwa by'ingenzi bikenerwa n'abaturage, dore ko bizwiho mu kuvura indwara ndetse no mu gutanga intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri. Si ibyo ngibyo gusa kubera yuko zizanira abaturage cyanecyane abahinzi amafaranga mu gihe bigurishijwe.

Gutera imyumbati hafi y'ishyamba bishobora kwangiza ibidukikije, kuko imyumbati ishobora guhindura imiterere y'ishyamba, igatuma habaho isuri n'ihindagurika ry'ubutaka, ibi bishobora gutuma inyamaswa n'ibimera byo mu ishyamba byangirika, cyangwa bikava aho bisanzwe biri.

Ibihumyo ni ifunguro rifite intungamubiri nyinshi cyane, byongera ubudahangarwa ritanga amafaranga kandi bihingwa no ku butaka buto, umuhinzi abitera ahantu hafunze kandi hafite ubushyuhe, hifashishijwe ibisigazwa nk'ibyatsi byumye n'ibyondo, bisarurwa hagati y'iminsi cumi n'itanu na mirongo itatu.

Umuneke ni umusaruro w'ingenzi mu buhinzi, utanga inyungu ihoraho ku bahinzi, ufungura isoko ry'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri kandi ukaba umusingi w'amafaranga ku bahinzi, ukoreshwa mu nganda zitandukanye, utanga n'akazi kandi ukarushaho kuzamura iterambere ry'umuturage n'igihugu muri rusange.

Imbuto ni ingenzi ku buzima bw'abantu ni yo mpamvu kugira aho zicururizwa kandi ziri mu bwoko butandukanye ari byiza cyane, bituma ziboneka ku bwinshi kandi ku gihe bigafasha abaturage kubona intungamubiri z'ingenzi zifasha mu kurwanya imirire mibi no kurinda indwara. Binatuma abahinzi n'abacuruzi binjiza amafaranga, bityo bikongera imibereho myiza n'ubukungu bw'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi, bufite uruhare rukomeye mu iterambere ry'Igihugu cyacu ndetse n'abaturage muri rusange. Ibi ni ukubera yuko, bifasha abaturage kubona ibyo kurya, bakarwanya ubukene bakabaho neza, ndetse bagasagurira n'amasoko bakagurisha bakabona amafaranga. Ibi byose rero, bifasha Igihugu gutera imbere.

Akarima k'igikoni, ni ingenzi mu Banyarwanda, kandi kabafasha mu mibereho myiza yabo ya buri munsi. Kagira uruhare, mu kubona indyo yuzuye, kagabanya ikiguzi cyo kugura imboga, kongera umusaruro, karengera ibidukikije, kanigisha abana n'abakuze ibijyanye n'ubuhinzi no kurwanya imirire mibi mu muryango.

Inyanya zifite intungamubiri nyinshi kandi zifasha mu buzima bwiza. Gusarura inyanya zeze bikorwa iyo zifite ibara ry'umutuku wuzuye, bigakorwa neza zigasarurwa mu gitondo hifashishijwe ibikoresho bitangiza imbuto, kugira ngo zibikwe neza kandi zigire uburyohe.

Intoryi ni igihingwa cy'ingenzi cyane ku buzima bw'abaturage dore ko ari n'isoko y'intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri, zinafasha kandi mu iterambere y'abantu bazihinga, bityo rero kongera umusaruro wazo bisaba kuzitaho, kuzirinda ibyonnyi, ndetse no kuzuhira mu gihe imvura yabuze, ibi byose bifasha mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'umuturage.

Kuhira ni ugushyira amazi ku bihingwa mu gihe imvura idahari, bifasha kongera umusaruro kandi bikarwanya amapfa bigateza imbere ubuhinzi, iyo bidakozwe imyaka iruma umusaruro ukagabanuka, hakabaho inzara n'ubukungu bukadindira.

Kuhira imyaka ni ingenzi cyane mu buhinzi, niyo mpamvu bikwiriye gukorwa neza, ibihingwa byose bikabona amazi ahagije. Ibi bikunda neza mu gihe hifashishijwe imashini zigezweho, kuko zifasha gutanga amazi neza kandi adasesagurwa. Ibi byongera umusaruro w'ubuhinzi, birwanya amapfa n'inzara, bikanateza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu.

Kuhira neza ibihingwa ni ingenzi cyane, kuko bituma bikura vuba kandi bikabyara umusaruro mwinshi. Bifasha mu gihe cy'izuba, cyangwa imvura nkeya, bigatuma ubutaka budakama. Binongera ubuziranenge bw'ibihingwa, no gutuma umuhinzi abona inyungu ihamye.

Kuhira imyaka ni ingenzi, bifasha ibihingwa gukura neza cyane cyane mu gihe cy'izuba cyangwa igihe imvura ari nkeya. Bituma haboneka umusaruro mwinshi kandi ufite ubuziranenge. Binongera umutekano w'ibiribwa, bigafasha umuhinzi kubona inyungu no guteza imbere ubukungu bw'umuryango n

Mu buhinzi kuhira ni umurimo w'ingenzi cyane kandi buri muhinzi wese agomba kuzirikana. Iyo bikozwe neza bifasha ikimera kubona amazi ndetse n'ubutaka bugatoha muri rusange. Ibi ngibi bitanga umusaruro mwiza ndetse umuhinzi akunguka, iterambere ry'igihugu rikazamuka.

Gukoresha amazi mabi mu buhinzi bituma imyaka yangirika, indwara zigakwirakwira, ubutaka bukangirika kandi bigatuma umusaruro ugabanuka, mu bworozi na ho ni uko amazi mabi ashobora gutera indwara ku matungo, kugabanya umusaruro w'amata n'inyama ndetse no kwangiza ubuzima bw'aborozi n'abakoresha ayo matungo.

Ubuhinzi ni kimwe mu mirimo ifasha ubukungu bw'igihugu kuzamuka. Abaturage babukoze babasha kubona amafaranga ahagije, nuko bakiteza imbere kandi bakarwanya ubukene. Si ibyo ngibyo gusa, burya ntabwo bashobora kubura ibyo kurya kandi bakora uyu murimo. Dukwiriye rero kuwushyigikira ndetse no kubwitaho.

Ubuhinzi bufite akamaro gakomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'ubuzima bw'abantu muri rusange. Bugira uruhare mu bukungu, imibereho ndetse no mu kurinda ibidukikije. Umushinga wo guhinga ibimera ukorerwa ahantu habugenewe ndetse hagakoreshwa n'uburyo bwo kwirinda isuri nko guca amaterasi y'indinganire, gutera ibiti n'ibindi.

Guhinga mu gishanga bitanga ubutaka butunganye bukungahaye ku ntungamubiri n'amazi bihagije bigatuma umusaruro w'ibihingwa uba mwiza kandi mwinshi byongera amahirwe yo kubona imyaka myiza bikarushaho guteza imbere ubuhinzi n'imibereho myiza y'abahinzi.

Kutagira ibiti mu murima bituma ubutaka bwangirika cyane kandi vuba, kubera isuri bukabura ifumbire kamere, bituma kandi habura igicucu ku bihingwa, binatera umwuka mubi, bigabanya umusaruro kandi bikangiza ibidukikije.

Kurema utuyira twinshi mu mirima, si byiza cyane habe na gato, kubera ko bituma ubutaka butakaza umusaruro kubera ko ibice by'umurima biba bituzuyeho imyaka, bitera isuri bigatuma ubutaka bwangirika vuba, ibi bikagabanya umusaruro w'ubuhinzi bukangiza n'ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Guhinga ahantu hahanamye byangiza ubutaka bigatuma bwuma kandi bukabura intungamubiri. Bituma kandi imyaka idakura neza umusaruro ukaba muke, kandi bikangiza ibidukikije. Ibi byose bitera igihombo ku muhinzi n'iterambere rusange.

Ibishanga ni ingenzi mu buhinzi kuko bifite ubutaka butoshye bushobora guhingwamo imyaka: nk'umuceri, imboga n'ibindi bihingwa bikera neza. Bitanga umusaruro mwinshi, bigafasha guhangana n'inzara, kongera ubukungu bw'abahinzi, no guteza imbere ubukungu bw'igihugu muri rusange. Binabika amazi, bikarwanya amapfa.

Ibishanga bitanga ubutaka bwera kandi bworohereza guhinga imbuto zitandukanye kubera ko butunganye kandi bukungahaye ku mazi, bigafasha kongera umusaruro no guteza imbere ubuhinzi mu gihugu muri rusange.

Umurimo w'ubuhinzi ni ingenzi cyane mu buzima bw'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu. Uwu uba ukora abona ibyo akeneye byose harimo ibyokurya bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye zikenerwa n'umubiri. Ikindi kandi asagurira isoko agakuramo amafaranga amufasha gukemura ibibazo bya buri munsi.

Amazi atemba ahurura yangiza ubuzima bw'abaturage, kuko ashobora gutera indwara kandi akaba yateza n'ibibazo by'umwuzure, bigatesha agaciro ubutaka, agasenya imyaka, bigahungabanya ubuhinzi n'imibereho rusange by'abaturage.

Ubuhinzi ni igikorwa cy'iterambere, gikorwa na buri muturage uwo ari we wese ubikeneye. Uwubikora abona umusaruro uhagije bityo akihaza mu biribwa, agakira ubukene, akagaburira umuryango. si ibyo gusa kubera yuko ashobora no gusagurira isoko bityo akabonamo amafaranga, agakemura ibibazo bye bya buri munsi.

Amaterasi y'indinganire ni ingenzi cyane, kubera ko arinda ubutaka kwangirika no gutwarwa n'imvura, afasha kandi gufata amazi neza, bityo akongera umusaruro w'ibihingwa, kandi akorohereza umuhinzi mu mirimo ye.

Nta gihombo gishobora kuva mu buhinzi, kubera yuko iyo iki gikorwa gikozwe neza gitanga umusaruro kandi kikarwanya ubukene, by'umwihariko umuturage ukora ibi ngibi abona ibyo kurya bihagije kandi akaba yasagurira n'amasoko, ibyo ngibyo bikamufasha kubona amafaranga akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ibishanga ni ingenzi cyane mu kuzamura iterambere ry'ubuhinzi n'Igihugu muri rusange, bigira ubutaka bwiza burimo amazi menshi ashobora kumeramo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye zagirira umumararo abaturage bityo bikwiriye kubungabungwa no kwitabwaho.

Amaterasi y'indinganire ni ingenzi cyane kuberako arinda isuri agafasha ubutaka kugumana ifumbire karemano, bituma imyaka igira umusaruro mwinshi kandi urambye, bityo abahinzi bagatera imbere igihugu kikabona ibiribwa bihagije.

Kwita ku buhinzi n'ibihingwa, bituma haboneka umusaruro mwiza kandi uhagije, bigafasha mu kurwanya inzara no guteza imbere ubukungu bw'umuryango. Bituma kandi ubutaka buramba, kandi bugatanga umusaruro w'imyaka myinshi. Nanone bituma abaturage bagira ubuzima bwiza, kubera kubona ibiribwa bifite intungamubiri.

Inkoko, ni amwe mu matungo y'ingenzi akenerwa n'abaturage muri rusange, kandi afitiye Igihugu akamaro. Ibi ni ukubera yuko ari isoko y'inyama n'amagi, ziba zifite intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri. Si ibyo gusa kubera yuko, zihereza amafaranga, aborozi bityo bakiteza imbere.

Ihene ni amwe mu matungo yororerwa mu ngo afitiye abaturage akamaro kanini nko kubaha amafaranga ndetse n'inyama, birakwiriye rero ko zororerwa mu kiraro kuko bituma zirindwa indwara, zikabaho zifite isuku, zikagira umutekano kandi zikororoka neza.

Inka ni itungo ry'ingenzi ryoroherwa mu rugo kandi rifitiye akamaro kanini abaturage kuko zitanga amata, inyama, ifumbire n'uruhu, kuzitaho neza bituma zikura neza zigatanga umusaruro mwiza kandi zikagira ubuzima buzira umuze.

Korora inka ni igikorwa cy'ingenzi cyane gifitiye abaturage akamaro, kuko bitanga amata, inyama n'ifumbire, bikongera imirire myiza no kongera umusaruro w'aborozi, bitanga kandi amafaranga binyuze mu kugurisha iby'inka zitanga, bityo bikarwanya ubukene.

Korora inkwavu bitanga inyama nziza zifite intungamubiri zigafasha mu kurwanya imirire mibi, inkwavu zororwa neza zitanga umusaruro wihuse kandi udahenze bityo bikongera ubukungu bw'umuryango, na none kandi bituma habaho guhanga imirimo no guteza imbere ubworozi butandukanye mu gihugu.

Ubworozi bw'ihene ni ingenzi cyane ku muturage uwo ariwe wese ubukora, ibi ni ukubera yuko iyo zigurishijwe zizana amafaranga menshi mu muryango bityo bikarinda ubukene, rero kugira ngo butere imbere usabwa yuko bikorwa neza kandi ihene zikitabwaho zikoroherwa mu kiraro bityo umusaruro wazo ugatera imbere.

Korora ingurube, bifite akamaro kanini, mu gutanga inyama, kunganira ubukungu bw'umuryango no gutanga ifumbire, mu buhinzi. Ariko kororera ingurube ahantu hadafite isuku, bishobora gutera indwara, umwanda, kwangiza ibidukikije, no guhungabanya ubuzima bw'abantu. Ni ngombwa kororera ahantu hasukuye, kugira ngo ubuzima n'iterambere, birusheho kugenda neza.

Ihene ni inyamaswa zitanga umusaruro mwinshi ku baturage nk'inyama n'amafaranga. Kuzorora hanze rero si byiza kuko bituma zihura n'indwara cyangwa zikibwa, ibi byose bigateza igihombo ku muhinzi ndetse igihugu kigasubira inyuma.

Kororera inka mu gasozi bituma zirwara vuba, ziterwa n'udukoko, zikabura ubwatsi buhagije n'amazi meza, ndetse zigatwarwa n'abajura, binangiza ubutaka n'ibidukikije, kandi bikagabanya umusaruro wazo.

Kororera inka mu kiraro, ni byo bintu by'ingenzi cyane, buri muhinzi wese akwiriye kwitaho kubera yuko kuzijyana mu gisambu kurishirizayo, byangiza ubutaka n'ibihingwa kandi bikaba byanatera inka ndwara. Ikindi kandi, bigahungabanya ibindi binyabuzima.

Kuzirika ihene ikiziriko mu ijosi, bishobora kuyikomeretsa, kuyibuza guhumeka neza no kurya. Bikayitera guhangayika no kugabanya umusaruro wayo. Ni byiza gukoresha uburyo butabangamira ihene.

Kororera ihene hanze, unaziziritse mu ijosi ntabwo ari igitekerezo cyiza ku bahinzi habe na gato kubera yuko bishobora gutuma, zirwara mu buryo bworoshye kandi zikaba zakibwa n'abajura ndetse zikaba zaribwa n'inyamaswa. Umuhinzi wese, akwiriye kwirinda ibi ngibi.

Inka ni ingenzi cyane ku buzima bwa buri munsi kuri buri muturage uwo ari we wese, dore ko ari n'isoko y'ibyokurya bikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'umubiri, harimo inyama ndetse n'amata. Ikindi kandi iyo zigurishijwe cyangwa umusaruro wazo iyo ugurishijwe, utanga amafaranga ku baturage no ku borozi muri rusange, bityo igihugu kigatera imbere.

Inka zitanga amata, inyama n'ifumbire, zikanafasha mu bukungu. Kuzororera mu biraro bituma zirirwa neza, zikagira umusaruro mwiza bityo bigateza imbere ubworozi n'igihugu muri rusange.

Korora ingurube ni ingenzi cyane mu kuzamura ubukungu bw'umuhinzi kuko ari isoko y'inyama, amafaranga, ifumbire, umusaruro wihuse kandi bugatanga akazi, bugafasha guteza imbere imibereho myiza y'Igihugu n'abaturage muri rusange.

Ingurube zitanga inyama nyinshi kandi zifite agaciro ku isoko, zifasha umuryango kubona amafaranga no kwiteza imbere, kuzitaho rero neza bituma zikura neza zikirinda indwara kandi zikagira umusaruro mwinshi ukwiriye, ibi byose bigafasha guteza imbere igihugu muri rusange.

Kororera ihene mu kiraro bifasha kuzirinda indwara, imbeho n'abajura. Bituma kandi zororerwa ahantu hasukuye, zikabona ibiryo n'amazi bihagije, bityo zigatanga umusaruro mwiza. Binorohereza n'umworozi kuzitaho no gukurikirana ubuzima bwazo neza.

Kwita ku nkoko no kuzorora neza bituma zikura neza zigatanga umusaruro w'amagi n'inyama, bigafasha kandi abaturage mu kurya neza no kunganira imirire y'umuryango, bifasha kandi mu kongera umutungo w'umuryango binyuze mu kugurisha umusaruro wazo. Ibi byose bituma imibereho myiza y'abaturage irushaho kuba myiza.

Kugaburira neza inka, bituma zikura neza zikagira ubuzima bwiza, zikongera umusaruro w'amata n'inyama. Kubakira neza inka, mu kiraro bituma zirindwa indwara. Zikabaho neza kandi zikarindwa ibibazo by'ikirere. Ibi byose bituma ubworozi burushaho gutera imbere, bigafasha imibereho myiza y'aborozi.

Korora inkoko neza, kuzigaburira indyo yuzuye ndetse no kuzitaho, bituma zigira ubuzima bwiza, zikabasha gutanga umusaruro mwiza w'amagi n'inyama. Ibi bifasha mu kongera inyungu z'umuryango bigatanga n'isoko y'ibiribwa by'ingenzi kandi bigateza imbere ubukungu.

Ubworozi bw'inka ni inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu muri rusange ndetse n'umuturage, bityo inka zigomba kwitabwaho zikororerwa ahantu heza ndetse zikagaburirwa, iyo ibi ngibi bikozwe neza byongera umusaruro, haba uw'amata ndetse bikazifasha gukura neza.

Kutororera ihene mu kiraro bituma zirwara indwara zituruka ku mwanda no ku buzima bubi, byongera ibyago byo kwibwa n'abajura cyangwa inyamaswa. Bituma umworozi agorwa no kuzitaho neza no gukurikirana ubuzima bwazo.

Ingurube ni amatungo y'ingenzi afasha mu iterambere ry'umuturage muri rusange ndetse n'igihugu, umworozi ubikoze neza abona umusaruro mwinshi kandi mwiza. Ni yo mpamvu zigomba kwitabwaho kandi zikororerwa mu kiraro kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro ushyitse.

Kutororera inkoko ahabugenewe, bituma zirwara byoroshye, zigatakaza umutekano wazo, zikabura umusaruro w'amagi n'inyama. Kandi bigatuma umwanda wiyongera aho ziri. Bityo ni byiza kuzororera mu biraro byazo.

Kujyana ihene mu gisambu bishobora gutera indwara y'udukoko, no kugabanyuka k'umusaruro wazo, tutibagiwemo yuko zishobora no gukomereka. Ihene zikomerekejwe zigira ububabare, zikagabanya umusaruro, kandi zishobora no gupfa.

Korora imishwi bifitiye umumaro munini aborozi kuko ari isoko y'inyama, ifumbire n'ubukungu ariko kuyororera ahantu habi hari umwanda, bishobora kuyitera indwara bityo umusaruro ukaba muke, ni byizayiza kuyororera ahantu hasukuye.

Korora inkoko bitanga inyama n'amagi bifite intungamubiri bigafasha mu kurwanya imirire mibi. Bituma abaturage babona amafaranga binyuze mu kugurisha bityo bikazamura ubukungu bw'imiryango. Bitanga akazi, bigateza imbere ubucuruzi n'ubuhinzi nk'ifumbire iva mu myanda yazo.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kuko butanga inyama n'amagi bifite intungamubiri. Bufasha mu kurwanya imirire mibi, bukanatanga amafaranga ku borozi. Bukorwa hatorwa inkoko zibereye intego, amagi cyangwa inyama, hakubakwa ikiraro gisukuye. Zikagaburirwa ibiryo bifite intungamubiri, hagakorwa ikingira no kugenzura ubuzima bwazo. Ibi byose byongera umusaruro bigateza imbere umuryango n'igihugu.

Korora inka bifitiye abaturage akamaro ariko kuzororera mu kiraro cyanduye ntabwo ari byiza kubera ko bitera indwara bikagabanya umusaruro w'amata n'inyama ndetse bigahungabanya ubuzima bw'inka n'isuku y'aho zoroherwa muri rusange.

Inka ni amatungo yororerwa mu rugo afitiye abaturage akamaro. Kubera ko ari ni isoko y'amata n'inyama bifite intungamubiri zikenerwa n'umubiri muri rusange. Bityo ni byiza kuzororera mu kiraro kandi ukazirinda inzara. Ibi ngibi bizamura umusaruro, bityo umworozi agatera imbere.

Inka zifite umumaro mwinshi kuko zitanga amata, inyama n'uruhu bifasha aborozi kubona ibyoku kurya n'amafaranga, ku muryango inka zongera ubushobozi bwo kwiteza imbere no kugira umutungo uhagije, ku gihugu inka zigira uruhare mu bukungu binyuze mu buhinzi, ubucuruzi ndetse no mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Kororera inka ahantu hadafunganye bituma zibona umwuka uhagije isuku ikiyongera ndetse zikagira ubwisanzure. Kuzororera ahantu hafunganye hatanasakaye bitera indwara, bikongera umwanda ndetse bikagabanya umusaruro bityo iterambere ry'ubworozi ntirigerweho nk'uko bikwiye.

Inka ni ingenzi cyane kuko zitanga amata n'inyama kandi zigafasha mu guteza imbere ubukungu bw'umuturage. Kuzitaho neza rero ni ingenzi kandi bisaba kuzigaburira neza, kuzikingira indwara no kubungabunga isuku. Ibi bituma inka ziba nzima kandi zigatanga umusaruro mwiza, bigafasha iterambere ry'igihugu muri rusange.

Kororera inka mu kiraro ni ingenzi cyane kuko bifasha kuzitaho neza kuzirinda indwara, imbeho n'abajura, bituma zororoka neza bigatanga amata menshi n'umusaruro mwiza, binorohereza isuku, hakabaho no gukurikirana ubuzima bw'inka, no gucunga neza ibiryo n'amazi, ibi byose bituma ubworozi butera imbere bukagirira umumararo umuturage.

Ihene n'ingurube ni inyamaswa zororerwa mu rugo kandi zikaba zifitiye abantu umumaro ukomeye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Zose zororoka mu buryo bworoshye, kandi zigatanga ibyo abantu bakenera, harimo inyama, ifumbire y'imborera, ndetse zose zikagira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'umuryango. Zororerwa ahantu hafite umutekano n'isuku, hanyuma kandi zikagaburirwa bihagije kugira ngo zizatange umusaruro mwiza.

Korora ihene bitanga inyama n'amafaranga akinjira binyuze mu kugurisha, byongera ibiribwa bihagije ku meza y'umuryango, bifasha kandi mu kurwanya ubushomeri no kongera umutungo rusange w'abaturage, bityo iterambere ry'igihugu rikarushaho kuba ryiza.

Inkoko ni ingenzi cyane mu mibereho y'abaturage, dore ko ari n'isoko y'ibyo kurya nk'inyama, ziba zifite intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri. Ikindi kandi ntitugomba kwibagirwa yuko zihesha aborozi amafaranga mu gihe bazijyanye ku isoko bagiye kuzicuruza.

Korora ingurube bifitiye akamaro kanini umuryango n'igihugu, kuko zitanga inyama nyinshi, amafaranga, ifumbire kandi zigakura vuba. Kuzitaho neza bituma ziramba, zikororoka neza ntizirware bityo bikongera umusaruro n'inyungu, ni uburyo bwiza bwo kwiteza imbere no kurwanya ubukene.

Kugaburira inka neza, bituma ikura neza. Ikagira amata menshi n'inyama nziza. Wayituza mu kiraro bikarushaho kuba ingenzi, kuko biyirinda imvura, izuba, indwara n'abajura. Ibi byose byongera umusaruro w'ubworozi, bikazamura ubukungu bw'igihugu.

Kudashyira ingurube mu kiraro cyazo bituma zihura n'ibibazo byinshi nko kuribwa n'inyamaswa cyangwa kwandura indwara, binatera umwanda mu gace kazo bigatuma habaho imyanda yangiza ubuzima bw'abantu n'inyamaswa muri rusange. Ibi bigabanya umusaruro wazo, bikangiza ubukungu bw'umuturage.

Inka zifitiye umumaro munini abantu, ni nayo mpamvu aborozi bagomba kuzitaho neza, bakazororera mu biraro byiza byabugenewe, bityo bigafasha kuzirinda indwara kongera isuku n'umusaruro, korohereza kuzigaburira no gukusanya ifumbire. Bino bituma ubworozi bugenda neza, kandi bukabyara inyungu.

Inka igaragara mu nyamaswa zifite akamaro kanini ku buzima bw'abantu. Uyitunze mu rugo rwe imuha ifumbire y'imborera ishyirwa ku bimera hakaboneka umusaruro ushyitse. Ikindi kandi ni isoko y'ibyo kunywa nk'amata ndetse n'ibyo kurya nk'inyama. Ibi bituma abayifite batifuza ko yabura mu rugo rwabo kubera uruhare runini igira mu buzima bwabo.

Korora ihene bifasha umuturage kubona inyama, bikongera amafaranga binyuze mu kugurisha, bitanga ifumbire ku mirima, ndetse bikarwanya inzara n'ubukene, kwita ku ihene neza bituma zitanga umusaruro mwiza kandi zikagira ubuzima bwiza, ni uko iterambere ry'umuturage rikarushaho kuzamuka.

Amagi atanga intungamubiri z'ingenzi, zifasha umubiri gukura, no gukomera. Ni ifunguro ryiza, kandi ryoroshye kubona. Korora inkoko, zitanga amagi bituma abantu babona akazi, amafaranga kandi bikagabanya imirire mibi mu baturage.

Korora inkoko neza bituma zitera neza zikabyara cyane kandi zikagira ubuzima bwiza, kuziha indyo yuzuye no kuzirinda indwara, bituma umusaruro wazo wiyongera, bityo bikazamura inyungu ku muryango no mu bukungu bw'igihugu muri rusange.

Kororera ingurube mu kiraro gisukuye, ni ingenzi cyane kuko bituma zigira ubuzima bwiza, zikirinda indwara n'imyanda. Ibi bituma umusaruro wazo, uba mwiza cyane. Korora neza kandi bituma umuryango ubona inyungu, bikazamura imibereho myiza y'abaturage muri rusange.

Kutororera ingurube mu kiraro bitera indwara, bigabanya umusaruro wazo, imyitwarire mibi y'inyamaswa ndetse no gukomereka. Kuzishyira mu kiraro ni byo by'ibanze bikenewe kuko bituma zibaho neza, zigatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza hanyuma umworozi agatera imbere n'igihugu kikazamuka muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibimera bitandukanye, harimo n'ubw'ibijumba ni ingenzi cyane kubera ko butanga ibiribwa ku bantu n'amatungo muri rusange, byongera ubukungu bw'igihugu, bugatanga akazi ku baturage, kandi bugafasha kurwanya inzara n'ubukene.

Kwita ku ngemwe z'ibiti ndetse n'ibimera muri rusange ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu buhinzi. Kubera yuko ibi byose bifasha ibimera gukura neza bikazatanga umusaruro mwiza ushyitse, bityo umuhinzi akabyungukiramo, akiteza imbere we n'umuryango we n'igihugu muri rusange.

Igiti gitanga umwuka mwiza. Kirinda isuri, gitanga ibiribwa n'inkwi kandi kirengera ibidukikije. Kugitera neza rero ni ingenzi kandi bisaba guhitamo ahantu heza, gucukura akobo, gushyiramo ifumbire no kugitera neza kandi kikavomererwa nkuko bikwiye. Ibi bifasha mu kurengera ibidukikije no guteza imbere igihugu.

Kwita ku ntoryi zikiri ntoya cyane ni byiza ndetse no gukomeza kuzitaho zakuze na byo bifite akamaro kanini, kubera yuko bituma zitanga umusaruro mwiza kandi mwinshi, ukaviramo gutera imbere k'ubuhinzi ndetse n'abaturage muri rusange, dore y'uko zifasha no mu buzima busanzwe kubera intungamubiri zigira zikenerwa n'umubiri.

Guhinga inyanya neza kandi zikitabwaho bitanga umusaruro mwiza kandi uhagije, bigafasha kongera inyungu ku bahinzi, inyanya zifite ireme ryiza zitanga intungamubiri ku buzima bw'abantu, zikaba n'isoko ry'akazi ku baturage, uko inyanya zitayeho neza ni ko zibasha kurwanya indwara n'udukoko, bityo umusaruro ukarushaho kuba mwiza kandi ukaramba.

Imyumbati ni ifunguro rikungahaye kuntungamubiri zitera imbaraga uyiriye kandi itanga ifu ikoreshwa muguteka igateza imbere ubukungu bw'umuryango. Kugira ngo yere neza rero ihingwa mu butaka bwiza hifashishijwe imbuto y'indobanure, ishami ryayo ni ryo riterwa mubutaka burimo ifumbire y'imborera. Gusarura bikorwa hagati y'amezi atandatu na cumi n'abiri.

Imiyoboro y'amazi mu mirima cyane cyane mu bishanga, ni ingenzi cyane kubera yuko ifasha mu kuhira imyaka neza, kuyirinda isuri ndetse no kunyura ubutaka, bityo ikongera umusaruro, bigateza imbere umuhinzi.

Kutufira ibyatsi bikikije imyaka yawe, bituma ubutaka bwangirika, udukoko twangiza tukiyongera ndetse kandi imyaka yawe ikabura amazi ahagije kandi umusaruro ukagabanuka.

Urusenda rufite umumaro munini cyane ku bantu, kuko rutanga amafaranga rukanakoreshwa nk'ikirungo mu ifunguro. Kandi rufasha no mu buvuzi gakondo. Kutaruhingira neza bituma rwera nabi rugatakaza umusaruro, kandi rukibasirwa n'indwara. Kwita ku rusenda neza ni ingenzi kuko byongera umusaruro mwiza.

amashu ni igihingwa cyiza cyane giteza imbere umuhinzi. Dore ko yera neza akazana amafaranga ahagije. Bityo uyahinga akiteza imbere kandi agakira ubukene. Si ibyo gusa kubera yuko akenerwa n'imbaga y'abaturage benshi, kubera yuko azwiho mu kugira intungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri wacu, mu buzima bwa buri munsi.

Ibigori byanikwa ahantu hasukuye ku zuba bitandukanijwe n'ubutaka, kandi bigahinduranywa kenshi kugira ngo byumuke neza, iyo byumye bibikwa ahantu heza, ntitwibagirwe ko bifite akamaro ko gutanga ifunguro, kongera imbaraga, gutunga abantu n'umuryango, no guteza imbere ubukungu bw'umuryango n'igihugu.

Kwita ku bishyimbo neza bituma umusaruro wiyongera kandi ubuziranenge bukaba bwiza, ibi bitanga amahirwe yo kugaburira abantu indyo yuzuye igafasha mu kurwanya imirire mibi, byongera ubushobozi bw'abahinzi bikazamura ubukungu bw'imiryango ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bufitiye akamaro kanini abaturage ndetse n'iterambere ry'Igihugu muri rusange. Ibi ni ukubera yuko ari isoko y'ibyo kurya, bityo imiryango ikaba itahura n'ikibazo cy'inzara. Ikindi kandi na none ibikomoka mu buhinzi biragurishwa bigahesha abaturage amafaranga, bityo bagakemura ibibazo byabo bya buri munsi.

Kwita ku mashu neza no kuyabagarira bituma akura neza, agatanga umusaruro mwiza kandi wuzuyemo intungamubiri, ibi bifasha mu kongera ibyinjira mu muryango no guteza imbere imibereho myiza y'abahinzi, nanone kandi, amashu meza afasha mu kurwanya indwara zifata abantu, bityo bigira uruhare mu buzima bwiza.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane mu iterambere ry'umworozi ndetse n'abaturage n'igihugu muri rusange, ibi ni ukubera y'uko ari isoko y'amagi n'inyama bifite intungamubiri nyinshi cyane zikenerwa n'umubiri, ikindi kandi bifasha umworozi kubona amafaranga mu gihe zigurishijwe, bityo agatera imbere mu buryo burushijeho.

Inka zitanga amata, inyama n'ifumbire bikongera imirire myiza n'iterambere ry'ubukungu, kuzororera hamwe isuku yitaweho bifasha kuzitaho neza, kuzirinda indwara no kongera umusaruro, bigateza imbere imibereho myiza y'abaturage n'igihugu muri rusange.

Kwita ku nka neza bituma zitanga umusaruro mwinshi zikazana amata meza kandi menshi. Kuzikurikirana neza bifasha gukumira indwara kongera umusaruro w'amata n'inyama no kurinda igihombo ku bworozi.

Kororera inka mu kiraro bituma zirindwa imbeho, izuba n'indwara, bikazongerera umusaruro w'amata n'inyama. Kuzitaho neza kandi bituma ziba mu buzima bwiza zigatanga ifumbire ifasha mu buhinzi kandi bikongera umusaruro w'umworozi bityo bigafasha mu iterambere ry'umuryango n'igihugu.

Guha inka umuti ni ingenzi cyane kuko biyikiza, bikanayirinda indwara ikagira ubuzima bwiza, ibi bituma zitanga amata meza kandi menshi, bikongera umusaruro w'ubworozi, binorohereza umworozi gukurikirana no kwita ku matungo ye neza, bityo bikazamura ubukungu bw'umuryango n'igihugu.

Inka ni inyamaswa yo mu rugo itanga umusaruro ukwiriye, harimo amata ndetse n'inyama, kandi ibyo byose bikaba bifite intungamubiri zikenerwa n'umubiri wacu mu buzima bwa buri munsi, bityo rero zikwiriye kwitabwaho zikororerwa mu kiraro, iyo ibi ngibi bikozwe bituma zitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Kwita ku nka bituma zitanga umukamo mwinshi, inyama, ifumbire ndetse n'ibindi. Bituma umuryango ubona icyo kurya no kugurisha bikazamura ubukungu. Inka kandi zifasha mu buhinzi binyuze mu ifumbire yazo, bityo bikongera umusaruro no guteza imbere imibereho y'umuturage.

Gukingira ihene, bizirinda indwara zigiye zitandukanye, bikongera ubuzima bwazo bwiza, n'umusaruro w'inyama n'amata. Bituma zororoka neza, kandi bigafasha, iterambere, ry'umworozi n'igihugu muri rusange.

Kwita ku nka harimo no kuzikingira ni igikorwa cy'ingenzi cyane buri mworozi agomba kuzirikana, kubera ko ibingibi biyirinda kurwara ndetse kandi bikayifasha gutanga umusaruro mwiza, amata akaza asa neza kandi ari menshi, rero iki gikorwa kigomba kwitabwaho kandi buri wese ufite inka akabizirikana.

Ibinyabuzima, ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu ndetse n'umuturage muri rusange. Ni yo mpamvu bikwiriye kubungabungwa ndetse no kurindwa bikanitabwaho. Ibi ni ukubera yuko bizana amafaranga menshi ku gihugu, mu gihe ba mukerarugendo baje baje kuzisura, bityo bikazamura ubukungu.

Ingagi ni inyamaswa z'ingenzi mu iterambere ry'igihugu cyacu, aho zigifasha kwinjiza amafaranga y'abanyamahanga binyuze mu bukerarugendo, zitanga akazi, zituma habaho kurinda ibidukikije, zongera ubushakashatsi kandi zizamura isura y'u Rwanda ku isi yose muri rusange.

Inyoni ni bimwe mu bidukikije bifitiye akamaro igihugu, kubera yuko zifasha mu kurwanya udukoko, mu gusakaza imbuto, mu gusukura ibidukikije ndetse no mu guteza imbere ubukerarugendo; aho abantu baza baje kuzisura bakazanira igihugu amafaranga, agakoreshwa mu iterambere.

Amashyamba ni kimwe mu bidukikije byiza bifitiye igihugu akamaro ndetse kandi natwe ku buzima bwacu ni ingenzi kubera yuko ari isoko y'umwuka duhumeka. Si ibyo gusa akurura ba mukerarugendo baza baje kuyasura bityo bikinjiriza amafaranga igihugu kigatera imbere. Niyo mpamvu rero akwiriye kubungabungwa amanwa n'ijoro.

Ibinyabuzima ni inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu, bikwiriye kubungabungwa kubera ko bifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bwiza bw'abaturage, harimo gukurura ba mukerarugendo baza baje kubisura, hanyuma bakazana amafaranga akoreshwa n'igihugu muri rusange, ikindi kandi abaturage baboneramo akazi bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Nubwo inzoka zimwe zifite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu n'amatungo nko gutera indwara no gutera abantu ubwoba, hari n'izifite akamaro mu iterambere, inzoka zimwe zifasha mu kurwanya udukoko twangiza imyaka, zongera uburumbuke bw'ubutaka binyuze mu gusenya ibisigazwa by'ibimera, kandi zifasha mu bushakashatsi n'ubuvuzi.

Ikiraro kigira uruhare rukomeye mu gutwara abantu n'ibicuruzwa, ubuhahirane bukabaho mu buryo bwihuse kandi bwiza, bigatuma ubucuruzi n'umusaruro byiyongera kandi bikagabanya igihombo. Ibi byose bigafasha mu iterambere ry'Igihugu.

Inyamaswa ni isoko y'iterambere. Kubera yuko zifasha mu kuzana ba mukerarugendo, bakaza kuzisura bazanye amafaranga, akoreshwa mu kuzamura ubukungu bw'Igihugu. Si ibyo gusa, ibi bituma abantu bagiye batandukanye mu Gihugu, babona akazi na bo bakiteza imbere.

Ingwe ni inyamaswa y'inkazi, yihuta kandi ibasha kwihisha, irya izindi nyamaswa itura mu bihuru no mu biti, ifite akamaro mu kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo, aribwo bufasha igihugu kubona amafaranga menshi avuye mu mahanga yifashishwa mu iterambere ryacyo muri rusange.

Inyamaswa ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu, dore ko ari n'isoko ya ba mukerarugendo baza baje kuzisura bakazana amafaranga menshi yifashishwa mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Bityo zikwiriye kubungabungwa ndetse no kurindwa kugirango hatagira ikizihungabanya.

Inyamaswa zigira uruhare rukomeye mu bidukikije, zirwanya ibyonnyi, zifasha mu guhinga, ndetse zitanga ibiribwa n'ibindi bikoresho, kuzibungabunga ni ingenzi kugira ngo turinde ubwoko butandukanye bwazo butazavaho, turinde ibidukikije kandi turusheho guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abantu, iyo ziriho neza bigira ingaruka nziza ku buzima bw'isi.

Nubwo inyamaswa zitinywa n'abantu bagiye batandukanye, ariko burya zifitiye umumaro iterambere ry'Igihugu cyacu, cyane cyane mu gukurura ba mukerarugendo bazana amafaranga, akoreshwa mu kuzamura ubukungu bw'Igihugu. kandi butanga n'akazi, ku baturage batuye mu Gihugu, bakiteza imbere ubukene bugashira.

Ibidukikije bifitiye akamaro kanini, iterambere ry'igihugu cyacu. Haba inyoni, haba ibiti, byose ni ingenzi cyane. Dore ko ari n'isoko, rya ba mukerarugendo baza, baje kubisura. Iyo baje, bazana amafaranga akoreshwa mu kuzamura ubukungu bw'igihugu.

Inyamaswa zigira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, binyuze mu gutanga umusaruro kandi twibukiranye y'uko zifasha mu gukurura ba mukerarugendo, baza baje kuzisura, bakazana amafaranga yifashishwa mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Si ibyo gusa n'abaturage babiboneramo akazi.

Imbeba ni zimwe mu nyamaswa zigize ibidukikije ariko zikaba zishobora guteza ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abantu. Ibi bigaragara iyo izituye he mu mazu y'abantu zihiye ku biryo byateguwe zigasigaho imyanda myinshi yaviramo uburwayi abariye kuri ibyo biribwa. Ikindi kandi zisiga amarunguru mu byari gutunga abantu, zinangiza ibimera bikiri mu mirima umusaruro wabyo ukaba muke.

Inyamaswa ni bimwe mu bidukikije bifasha igihugu mu iterambere, ibi ni ukubera yuko zifasha mu gukurura ba mukerarugendo baza bazanye amafaranga afasha mu iterambere ry'igihugu, si ibyo ngibyo gusa kuko bitanga n'akazi ku baturage, bityo bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Umwanda w'imbwa wangiza ubutaka, amazi n'umwuka, kandi ushobora gutera indwara zirimo impiswi ku bantu, cyane cyane ku bana. Uwo mwanda kandi ugira ingaruka mbi ku isuku no ku buzima bw'abantu n'ibidukikije muri rusange, bityo bikadindiza iterambere ry'igihugu.

Amashyamba ni ingenzi cyane mu iterambere, arinda ibidukikije, arengera inyamaswa n'ibimera, akumira isuri kandi atanga ibiti n'ibindi bikoresho, ashyigikira ubuhinzi kandi afasha mu gutwara amazi neza.

Inyamaswa zitandukanye nk'udusumbashyamba, ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu n'umuturage, kubera yuko zikurura ba mukerarugendo, bakaza baje kuzisura bazanye n'amafaranga yifashishwa mu iterambere, ikindi kandi biha akazi abaturage baturiye aho ziri, hanyuma bakiteza imbere.

Inyamaswa ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu n'abaturage muri rusange. Kubera yuko ari isoko ya ba mukerarugendo baza baje kuzisura bakazana amafaranga yifashishwa mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. S ibyo gusa kubera yuko abaturage babona akazi bakabona amafaranga bakiteza imbere bakava mu bukene.

Inyoni ni ingenzi cyane mu iterambere ry'Igihugu ndetse n'ubuhinzi muri rusange kuko zifasha mu kurwanya ibyonnyi mu mirima bityo zikongera umusaruro w'ubuhinzi, si ibyo gusa burya inyoni zikurura ba mukerarugendo, baza bazanye amafaranga kugira ngo baze kuzisura, ayo mafaranga agakoreshwa mu kuzamura ubukungu bw'Igihugu.

Inyoni zigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubuhinzi n'ibidukikije, zifasha gusakaza imbuto, kugabanya udukoko twangiza, no gutuma ubutaka bubungabungwa neza, si ibyo gusa kuko zigira uruhare mu kuzana ba mukerarugendo, baza gusura igihugu cyacu bakazana amafaranga aturutse hanze, agakoreshwa mu iterambere.

Inyoni ni ibidukikije bifitiye abaturage n'igihugu muri rusange akamaro. Ibi ngibi bishoboka kubera yuko zikurura ba mukerarugendo baza baje kuzisura bakurikiranye ubwiza bwazo, bakazana amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'igihugu. Si ibyo gusa kubera ko abaturage baboneramo akazi bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zigize ibidukikije, zigira uruhare mu kurwanya udukoko twonona imyaka, gukwirakwiza imbuto guteza imbere ubukerarugendo, gutanga ifumbire kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no gufasha mu bushakashatsi, bityo zigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubuhinzi, ubukungu n'ibidukikije.

Kubungabunga inyoni, ni ingenzi cyane kuko bituma zirindwa, zigakomeza gukura neza zigafasha mu gusukura ibidukikije no gusakaza imbuto. Zikanateza imbere ubukerarugendo bukurura abantu baje kuzireba, bakazanira amafaranga akenerwa mu iterambere.

Ibiti ni ingenzi cyane kuko bitanga umwuka mwiza bikarinda isuri mu butaka, kandi bitanga ibikoresho by'ingenzi nk'inkwi n'imbaho. Inyoni kandi zifasha mu kurwanya udukoko twangiza imyaka, zikwirakwiza imbuto, kandi zikagira uruhare mu gusigasira ibidukikije.

Kubungabunga inyamaswa bituma habaho ubusugire bw'ibidukikije. Bigafasha mu gusigasira amoko y'inyamaswa no gukomeza imiterere myiza y'ibinyabuzima. Ibi bituma abaturage babona inyungu mu bukerarugendo, ubuhinzi n'ubworozi, bikongera ubukungu kandi bigateza imbere imibereho myiza y'Igihugu muri rusange.

Kwita ku nyoni bituma zigira ubuzima bwiza, zigakora neza imirimo yazo yo kugaburira ubutaka, kurwanya udukoko twangiza imyaka, ndetse ibi bigatuma habaho kurengera ibidukikije no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Na none kandi, inyoni zifasha mu kubungabunga ibinyabuzima bigiye bitandukanye, bigatera iterambere ry'igihugu muri rusange.

Inyamaswa zigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'Igihugu kubera y'uko zikurura ba mukerarugendo, bakaza kuzisura bazanye amafaranga, aya mafaranga agakoreshwa mu iterambere ry'Igihugu cyacu, bivuze y'uko zikwiriye kubungwabungwa kandi zikarindwa ba rushimusi.

Agasumbashyamba ni imwe mu nyamaswa tugira mu gihugu cyacu nini cyane, kandi kagafasha mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu gukurura ba mukerarugendo bazana amafaranga aturutse mu mahanga, akoreshwa mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Inyoni ni kimwe mu biremwa byiza kandi bigize ibidukikije bifitiye igihugu akamaro ndetse n'ubuzima bw'abaturage muri rusange, ibi ngibi ni ukubera yuko bikurura ba mukerarugendo, baza bazanye amafaranga agakoreshwa mu iterambere ry'igihugu, si ibyo gusa kubera ko abaturage baboneramo akazi nuko bikabafasha kwiteza imbere.

Ibidukikije ndetse n'inyamaswa bifitiye akamaro gakomeye igihugu cyacu ndetse n'abaturage muri rusange, kubera yuko zikurura ba mukerarugendo baza baje kuzisura bakazana amafaranga akoreshwa mu iterambere. Si ibyo gusa kubera yuko abaturage nabo babyungukiramo bakabibonamo akazi.

Kugira ngo Igihugu gitere imbere bisaba ibintu bitandukanye, ariko by'umwihariko hakazamo n'inyamaswa, kubera yuko inyamaswa ari isoko yo gukurura bamukerarugendo baza baje kuzisura, bityo bakazana amafaranga akoreshwa mu iterambere. Si ibyo gusa kubera ko abahaturiye babona akazi, bagakira ubukene, bakabona amafaranga ndetse bakiteza imbere.

Bimwe mu bidukikije by'ingenzi bifitiye Igihugu akamaro, harimo n'inyoni. Kubera yuko zikurura ba mukerarugendo baje kuzisura, bakazana amafaranga akoreshwa mu iterambere. Si ibyo gusa kubera yuko ibi ngibi, biha n'abaturage akazi, bakiteza imbere ndetse kandi bagakira ubukene.

Imparage ni inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga mo imbere mu gihugu, zinagira uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no guteza imbere ubushakashatsi n'uburezi ku bijyanye n'ibidukikije, bityo zifasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu muri rusange ndetse n'abaturage.